Aba ni abantu bagiye batandukanye bicaye mu cyumba cy'inama kimwe. Bakaba bicaye ku ntebe zisa umukara. Impande yabo hakaba hari ameza ateretseho uducupa tw'amazi.

Aba n'abantu bicaye mu cyumba bambaye imipira yiganjemo umuhondo n'ubururu, bakaba bicaye ku ntebe z'umweru ndetse muri iki cyumba hakaba harimo ibyapa bitandukanye biriho ibendera ry'u Rwanda.

Iki ni icyumba kirimo abantu bagiye batandukanye, bicaye ku ntebe z'umukara abandi bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabano bantu hakaba hari ameza ateretseho mudasobwa n'uducupa tw'amazi.

Aba ni abantu benshi batandukanye, bahagaze imbere, inyuma yabo hakaba hari icyapa kinini, n'insakazamashusho byanditseho amagambo agiye atandukanye.

Iki ni icyumba cy'inama kirimo abantu bagiye batandukanye bicaye, imbere yabo akaba ari ameza asumweru, ateretseho ibitabo bitandukanye n'uducupa tw'amazi.

Aba ni abantu batandukanye bari mu cyumba, bakaba bicaye ku ntebe zisa umukara undi umwe akaba ahagaze imbere yabo, hakaba hari ameza ateretseho mudasobwa n'uducupa tw'amazi.

Aba n'abantu batandukanye bicaye ku ntebe, imbere yabo hakaba hari ameza ariho ibintu bigiye bitandukanye n'uducupa tw'amazi n'ibindi byinshi.

Aba ni abantu bicaye ku ntebe z'umukara inyuma yabo hakaba hari icyapa kinini cyane cyanditseho amagambo atandukanye, imbere yabo hakaba hari ameza ateretseho indangururamajwi n'uducupa tw'amazi.

Aba ni abantu batandukanye bicaye mu cyumba bakaba bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hakaba hari ameza ariho impapuro zigiye zitandukanye, indangururamajwi ndetse n'uducupa tw'amazi.

Iki ni icyumba kirimo abantu benshi bagiye batandukanye, bakaba bicaye ku ntebe zisa ubururu, imbere yabo hakaba hari ameza ateretseho ibikoresho by'ikoranabuhanga, impapuro, ibitabo n'uducupa tw'amazi.

Aba ni abantu bagiye batandukanye bamwe bicaye abandi bahagaze bakaba bari mu ihema risa umweru, abicaye imbere hari ameza abateretse mbere ateretse ibitabo n'uducupa tw'amazi.

Aba ni abagabo ndetse n'abagore bagiye batandukanye bicaye mu cyumba kirimo intebe z'umukara, imbere yabo bakaba hari ameza ateretseho indangururamajwi ndetse n'uducupa n'ibirahuri by'amazi.

Uyu ni umugabo uhagaze imbere impande y'intebe zisa umweru, inyuma ye hakaba hari icyapa gisa icyatsi cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru n'ubururu.

Aba ni abantu batandukanye bakaba bicaye ku ntebe zisa umukara imbere y'ameza, hakaba hari undi mugabo wambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara ufite indangururamajwi mu ntoki uri kubaganiriza.

Uyu n'umugore wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara uhagaze hagati y'abagabo, umwe wambaye ikoti ry'umukara n'umupira w'umweru, undi akaba yambaye ingofero, ipantaro, ishati, by'umukara.

Aba ni abantu bagiye batandukanye bicaye ku ntebe zisa umweru. Mo hagati yabo hakaba hariho utumeza duteretseho uducupa tw'amazi.

Iki ni icyumba kirimo abantu bagiye batandukanye bamwe bakaba bicaye ku ntebe z'umuhondo abandi bicaye ku z'umukara imbere yabo akaba ari abantu bari kurahira ku ibendera ry'igihugu.

Aba n'abantu batandukanye bicaye ku ntebe z'umukara imbere y'abo hakaba hari ameza manini ariho ibitabo, mudasobwa, ndetse n'uducupa tw'amazi.

Uyu ni umugore witeze igitambaro cy'umukara mu mutwe, akaba yambaye n'igitenge, akaba afite indangururamajwi mu kiganza cye, hirya hakaba hari abandi bantu bagiye batandukanye bicaye ku ntebe z'umuhondo.

Aba ni abantu batandukanye bicaye ku ntebe zisa umukara imbere yabo hakaba hari ameza ariho ibikoresho bitandukanye ni nka mudasobwa n'uducupa tw'amazi.

Iki ni icyumba kirimo abantu bagiye batandukanye bicaye ku ntebe zenda gusa ubururu, imbere yabo hakaba hari ameza y'umukara ateretseho ibintu bitandukanye.

Aba ni abantu batandukanye bicaye mu cyumba bakaba bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hakaba hari ameza ateretseho ibitabo ndetse na mudasobwa.

Uyu ni umugabo wambaye ishati ndetse n'ikote ry'umukara, imbere ye hakaba hari ameza ateretseho indangururamajwi, mudasobwa ndetse n'uducupa tw'amazi.

Uyu ni umugabo wambaye ishati n'isaha n'indorerwamo z'amaso mu kiganza cye cy'iburyo akaba afitemo indangururamajwi, akaba imbere n'inyuma ye hicaye abantu bagiye batandukanye.

Aba ni abantu batandukanye, bicaye mu cyumba kimwe, ku ntebe zisa umweru. Imbere yabo, hakaba hari ameza na yo asa umweru, ateretseho ibitabo ndetse n'uducupa tw'amazi.

Aba ni abantu batandukanye bicaye ku ntebe zisa umutuku n'umuhondo, imbere yabo hakaba hari ameza asa umweru, ateretseho uducupa tw'amazi.

Aba ni abantu bagiye batandukanye, bicaye ku ntebe z'umukara ndetse imbere yabo hakaba hari ameza ateretseho ibitabo bitandukanye ndetse n'uducupa tw'amazi.

Uyu ni umugabo uhagaze wambaye ishati n'ipantaro impande ye hakaba hari abandi bantu bicaye ku ntebe z'imikara bakaba bari mucyumba gisize ibara ry'umweru.

Iki ni icyumba kirimo abantu bagiye batandukanye bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo hakaba hari ameza ateretseho uducupa tw'amazi ndetse hakaba hari n'undi mugabo uhagaze wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara uri kuvuga.

Aba ni abagore bicaye ku ntebe z'umukara, bakaba imbere yabo hari ameza ariho ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa ndetse n'uducupa tw'amazi.

Aba ni abantu batandukanye, bicaye ku ntebe zisa umukara, imbere yabo hakaba hari ameza y'umweru, ateretseho uducupa tw'amazi n'ibindi bikoresho nka mudasobwa, hakaba harimo n'undi mugabo umwe uhagaze.

Uruhu ni urupapuro rusa ubururu rwanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru n'umuhondo hasi hakaba hari igishushanyo cya mudasobwa.

Uru ni urupapuro ry'ubururu rwanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru n'umuhondo, munsi hakaba hari ibishushanyo bya mudasobwa ebyiri.

Uru ni urupapuro rw'umweru, ruriho amagambo ndetse n'imibare bigiye bitandukanye, biri mu mabara yiganjemo umukara, ubururu, n'icyatsi.

Uyu ni umugabo wambaye umupira w'umweru akaba akikijwe n'abantu batandukanye bakaba bari mu ihema risa umweru n'umukara imbere yabo hakaba ari ameza ateretseho ibikoresho by'ikoranabuhanga na mudasobwa.

Iki ni igishushanyo cya mudasobwa, ikaba na yo mo imbere handitsemo amagambo agiye atandukanye mu ibara ry'umukara. Haruguru ya mudasobwa no munsi yayo hakaba n'andi magambo agiye atandukanye ari mu mabara y'ubururu.

Iyi ni inzu ikozwe mu mbaho. Ikaba ifitemo abantu bagiye batandukanye, bicayemo imbere, harimo n'icyapa kinini kiri inyuma, cyanditseho amagambo agiye atandukanye mu mabara menshi.

Uru ni urupapuro rufite ibara ry'umweru, ruriho amagambo agiye atandukanye, ari mu mabara y'umukara, ubururu ndetse n'umweru. Hakaba hariho n'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Iyi ni inzu ifite igisenge cy'umutuku n'umweru. Iyi nzu ikaba iriho ibyapa bigiye bitandukanye, biri mu mabara atandukanye, yiganjemo ubururu, umutuku, n'umuhondo, n'umweru.

Iyi ni inzu ifite inkuta z'umweru ndetse impande y'iyi nzu hakaba hari icyuma kirekire cyane cyegereye iyi nyubako, ndetse hirya hakaba hari ibiti bihateye.

Uyu ni umugore uri mu nzu, ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu biganza bye. Akaba ari kuvugana n'undi mugore ufite urupapuro mu ntoki, akaba ateze n'igitambaro.

Aya ni amagambo ari mu mabara agiye atandukanye harimo ubururu n'umweru, kandi hakaba hariho n'igishushanyo cy'izuba, izuba risa umuhondo n'ubururu.

Uru ni urupapuro rwanditseho amagambo ari mu mabara y'umweru n'umuhondo ndetse hakaba hariho n'ibishushanyo bigiye bitandukanye n'iby'abana, amazu, umuhanda n'indege n'ibindi.

Uru ni urupapuro rw'umweru, rwanditseho amagambo agiye atandukanye, aya magambo akaba ari mu mabara y'umukara ndetse n'ubururu.

Iki ni icyumba cy'ikoranabuhanga, kirimo abantu batandukanye, bicaye ndetse n'umwe uhagaze. Iki cyumba kikaba kirimo ameza akozwe mu mbaho ndetse ayo meza akaba ariho mudasobwa.

Uru ni urupapuro rw'ubururu rwanditseho amagambo ndetse ruriho n'amafoto agiye atandukanye, aya magambo yanditseho akaba ari mu mabara atandukanye harimo umweru n'umukara.

Iki ni icyumba cy'ikoranabuhanga, kirimo abanyeshuri bicaye ku ntebe zisa umukara, imbere yabo hakaba hari ameza ateretseho mudasobwa, bari kuzikoresha.

Uru nirupapuro rusa ubururu, uru rupapuro rwanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umuhondo umweru n'ubururu uru rupapuro rukaba rushushanyijeho n'inzu.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi ifite icyapa gisa ubururu n'umweru cyanditseho amagambo asa umweru n'umukara n'ubururu kandi kikaba gishushanyijeho amabendera y'ibihugu atandukanye.

Uyu ni umumotari wicaye kuri moto ye y'umutuku, hirya hakaba hari icyapa kiriho ibishushanyo bitandukanye ndetse n'amagambo agiye atandukanye.

Uyu ni umugore wambaye ishati y'umweru, imbere ye hakaba hari imeza ikozwe mu rubaho iteretseho ikirahure cy'amazi ndetse hakaba hari mudasobwa ari gukoresha.

Aba ni abagabo bagiye batandukanye bambaye udupfukamunwa ndetse mu biganza byabo bakaba bafashe ibikoresho by'ikoranabuhanga byiganjemo amaterefone.

Iyi ni inzu y'amatafari ahiye, ifite imiryango isa ubururu, ikaba ifite n'akandi kazu gasa umweru kariho ibyapa byinshi bigiye bitandukanye.

Uru ni urupapuro rw'umweru, rwanditseho amagambo agiye atandukanye. Aya magambo akaba ari mu mabara y'umukara ndetse n'ubururu.

Aba ni abagabo batatu bambaye imipira y'ubururu ndetse n'amapantaro agiye atandukanye, bakaba impande yabo hari ibikapu biri hasi, inyuma yabo hakaba hari icyuma kinini cyane kihashinze.

Uru ni urupapuro rwanditseho amagambo agiye atandukanye, ndetse ruriho n'igishushanyo kiriho ibintu bigiye bitandukanye. Aya magambo akaba ari mu ibara ry'umweru, umukara, n'ubururu.

Uru ni urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo atandukanye ari mu mabara y'ubururu umweruru n'umukara uru rupapuro kandi rufite amabendera y'ubwongereza ndetse nu rwanda.

Uru ni urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'ubururu. Uru rupapuro rukaba rushushanyijeho telefone ndetse na mudasobwa.

Uru ni urupapuro ruri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, uru rupapuro rukaba rwanditseho amagambo nayo ari mu ibara ry'umweru, umuhondo, ndetse n'ubururu.

Uru ni urupapuro rw'ubururu rwanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu mabara y'ubururu, umweru, umuhondo, n'icyatsi.

Uyu ni umugabo wambaye ingofero ndetse n'ishati, akaba ahagaze ku muryango ukozwe mu biti uriho ibyapa bigiye bitandukanye biriho amagambo agiye atandukanye.

Iyi ni poto rirerire ririho insinga nyinshi zigiye zitandukanye, hirya y'ipoto hakaba hari inzu ifite inkuta z'umweru, ndetse n'urugi rw'ubururu.

Iri ni ipoto risa umweru ririho itara rinini ryo ku muhanda ndetse n'insinga zigiye zitandukanye, iri poto rikaba rishinze ku busitani bwegeranye n'umuhanda.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye n'imodoka ndetse hakaba harimo n'abantu batandukanye iruhande rw'uyu muhanda hakaba hari umutaka w'umuhondo n'imeza y'umuhondo.

Izi ni inzu zigiye zitandukanye zubakishijwe amatafari ahiye. Inzu imwe ikaba ifite igisenge cy'umutuku ndetse ikaba ifite n'icyapa ku muryango wayo.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, uyu muhanda ukaba ukikijwe n'ipoto nini iriho insinga zitandukanye n'itara rimurika.

Uyu ni umugabo wambaye ishati ndetse n'isengeri cyangwa ijire isa icyatsi yanditseho amagambo atandukanye, imbere ye hakaba hari ibyuma byinshi binini biri mu ibara ry'umweru.

Aba ni abantu bicaye abandi bari kugenda, inyuma yabo hakaba hari ifoto rirerire riri'insinga zigiye zitandukanye, hepfo hakaba hari ibinyabiziga biri mu mabara y'umukara n'umweru.

Iri ni ipoto ry'amashanyarazi ririho insinga zigiye zitandukanye ndetse hakaba hariho n'itara rinini ryo ku muhanda, hirya no hino hakaba hari ibyapa bigiye bitandukanye bikikije.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye byiganjemo imodoka ndetse na moto hirya hakaba hari inzira y'abanyamaguru ndetse hakaba hari ibiti n'amazu.

Iri ni ipoto rirere ririho insinga zigiye zitandukanye iyi poto rikaba ryegeranye n'umutaka usa umuhondo ndetse hirya hakaba hari abantu bari kugenda.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi iriho ibyapa byinshi bigiye bitandukanye, imbere yiy'inzu hakaba hari umuntu uri gutambuka hirya y'inzu hakaba ari ipoto ndende iriho insinga zitandukanye.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye byiganjemo imodoka na moto. hirya y'umuhanda hakaba hari inzira y'abanyamaguru ndetse hakaba hari amapoto maremare ariho amatara y'umuhanda.

Iyi ni imbuga nini, irimo ubusitani ndetse n'ibiti bigiye bitandukanye, hirya hakaba hari inzu isize irangi ry'umweru n'ubururu, yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Iyi ni inyubako yubatse mu matafari ahiye iyi nyubako hirya yayo hakaba hari inzira y'abanyamaguru yubakishijwe ibyuma n'amabati irimo iracamo umuntu, hakuno hakaba hari icyuma kizimya umuriro.

Iki ni icyumba hejuru kisa umweru, gicanyemo n'amatara asa umweru, kikaba kiriho ibitanda byinshi na byo bisa umweru, biriho abantu benshi barwaye.

Aba ni abagabo babiri bahagaze imbere y'idirishya risa umukara. Inyuma yabo hari abandi bantu benshi bagiye batandukanye bicaye ku ntebe. Hasi amakaro asa umukara.

Izi ni inzu zigiye zitandukanye zubakishijwe n'amatafari ahiye zifite amadirishya n'inzugi by'umukara hagati ya zino nzu hakaba hari ubusitani bunini.

Aba ni abantu batandukanye bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho, imbere yabo hakaba hari inzu y'amatafari ahiye ifite umuryango n'amadirishya bisa umweru.

Aba ni abantu bagiye batandukanye bamwe bakaba bambaye imyenda isa umweru, bakaba bari imbere y'amasafuriya maremare bakaba bari kwarurira abandi bantu babari imbere.

Uyu ni umugabo wambaye umwenda w'umukara urimo n'umweru, hirya ye akaba ahagararanye n'undi mugabo wambaye imyenda isa n'umutuku, mu ntoki ze akaba afite impapuro.

Uyu ni umugabo wambaye umwenda usa umukara ndetse n'umweru, akaba afite indangururamajwi mu kiganza cye, imbere ye hakaba hateretse ameza na telefone hirya hakaba hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Aba n'abagabo batandukanye, bambaye imyenda imwe iri mu ibara ry'icyatsi, hirya hakaba hari abandi bantu bicaye ku ntebe, abandi babahagaze inyuma.

Aba ni abagabo babiri bose bambaye udupfukamunwa tw'ubururu bakaba bari kureba imbere yabo muri mudasobwa iteretse ku meza, ayo meza akaba ari n'icupa ry'amazi.

Aba ni abantu biganjemo abagabo n'abagore bahagaze inyuma yabo hari icyapa gisa ubururu cyanditseho amagambo asa umweru ndetse hakaba hariho n'ikirangantego cy'u Rwanda.

Aba ni abagabo, bambaye ingofero z'umukara, amashati y'umukara, n'ipantaro z'umukara, bafashe mu biganza byabo, undi mugabo wambaye ikoti ry'umukara, inyuma yabo hakaba hari abandi bagabo babiri, bambaye amakote n'amashati y'umweru.

Uyu ni umugore wambaye indorerwamo z'amaso akaba yambaye n'amaherena, akaba yambaye umwenda uri mu mabara y'umutuku, umukara n'umweru.

Uyu ni umugabo wambaye ishati isa nk'umutuku, uri gusoma igitabo gisa ubururu, n'impapuro z'umweru, impande ye hirya hakaba hari abandi bantu benshi nabo bicaye batandukanye.

Uru ni urupapuro uru rupapuro rwanditseho amagambo agiye atandukanye, n'imibare igiye itandukanye, ibi byose byanditse mu ibara ry'umukara, uru rupapuro ruriho n'ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda.

Uyu ni umugore, wambaye ingofero isa umuhondo n'umukara. Uyu mugore yambaye indorerwamo z'amaso, kandi uyu mugore yambaye umwenda, usa umutuku, umweru, n'umukara.

Uyu ni umugabo wambaye ingofero yenda gusa umutuku n'umupira w'umweru urimo umutuku mukeya, impande ye hakaba hari abagabo babiri bambaye ingofero, ishati, ipantaro bya kaki n'inkweto z'umukara.

Uyu ni umugabo w'inzobe wambaye ishati yumweru na karuvati, akaba yarengejeho undi mwenda uri mu ibara ry'umutuku, umukara n'umweru.

Aba ni abagabo batatu, babiri bakaba bambaye imyenda isa yiganjemo umukara ndetse n'umweru; undi nawe akaba yambaye imyenda yenda gusa umutuku bakaba bari kuganira umwe muri bo akaba afite igitabo.

Uru ni urupapuro rusa umweru rwanditseho amagambo ndetse n'imibare bigiye bitandukanye ibi byose bikaba biri mu ibara ry'umukara.

Uru ni urukuta rurerure rw'amatafari ahiye ndetse rusize n'ibara ry'umuhondo hakaba hejuru hariyo icyapa cy'umukara cyanditseho amagambo y'umweru.

Aba ni abantu batandukanye bamwe bakaba bicaye ku ntebe z'umukara abandi bakaba bahagaze imbere hakaba hari ameza ateretseho indangururamajwi n'uducupa tw'amazi.

Iki ni ibyuma bisa umutuku ndetse n'umweru. Ibi byuma bikaba byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro. Bikaba kandi byometse ku rukuta rusa umweru.

Ibi ni ibyuma bibiri biri mu ibara ry'umutuku n'umukara, hakaba handitseho n'amagambo agiye atandukanye bikaba bifashe ku rukuta rw'umweru, ibi byuma bikaba byifashishwa mu kuzimya umuriro.

Aba ni abagabo babiri bambaye ingofero z'umweru ndetse n'imyenda yiganjemo umukara n'umuhondo bakaba bafashe umuyoboro w'amazi mu biganza byabo.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bibiri aribyo; imodoka imwe isa umukara, indi isa umweru. Imbere hakaba hahagaze abagabo bambaye inkweto z'umukara, amashati y'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara n'ingofero y'umukara.

Iki ni icyuma kirekire kimanitse hejuru y'igisenge, hirya hakaba hari ibiti bigiye bitandukanye biteye ku musozi.

Aba ni abantu bahagaze mu nzira y'abanyamaguru impande y'umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hirya hakaba hari inzu ndende y'ubucuruzi.

Aba ni abagabo babiri bambaye ingofero z'umukara ishati y'umukara ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara umwe muri bo akaba yambaye ishati irimo n'icyatsi.

Iki ni icyuma gisa umutuku , cyanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umweru ,umutuku , kikaba kifashishwa iki cyuma mu kuzimya umuriro.

Uyu ni umugabo ushinzwe umutekano wambaye ingofero y'umukara, ishati y'umukara ivanzemo n'icyatsi, ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara urimo urafasha abanyamaguru kwambuka umuhanda.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga, urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye byiganjemo imodoka ndetse na moto. Uyu muhanda kandi ushushanyijemo imirongo y'umweru n'umukara.

Aba ni abana benshi b'abanyeshuri bambaye amashati y'umweru ndetse n'amapantaro, n'amajipo ya kaki, bakaba bari kumwe n'umupolisi wahaye umwana umwe icyuma cyifashishwa mu kuzimya umuriro akaba ari kuzimya umuriro.

Iki ni icyuma gisa umutuku cyanditseho amagambo agiye atandukanye cyometse ku gikuta gisa umweru, iki cyuma kifashishwa mu kuzimya umuriro.

Uru ni urupapuro rw'umweru, rwanditseho amagambo agiye atandukanye ndetse n'imibare igiye itandukanye. Ibi byose bikaba byanditswe mu ibara ry'umukara.

Uyu ni umugabo uhagaze imbere y'indangururamajwi impande hakaba hari undi mugabo nawe uhagaze afite urupapuro mu ntoki ze ku ruhande hakaba hari abagore babiri bicaye imbere y'ameza y'urubaho.

Uyu ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda wambaye ikote n'ipantaro n'ishati y'umweru na karuvati, uhagaze hagati y'abandi bantu.

Aba ni abantu bagiye batandukanye, bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo hakaba hari ameza ariho indangururamajwi, ndetse ateretseho n'uducupa tw'amazi, na mudasobwa.

Uyu ni umugore wambaye indorerwamo z'amaso zisa umweru akaba yambaye ikote risa ubururu ndetse n'ijipo isa ubururu, akaba yicaye ku ntebe y'umweru.

Uyu ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, wambaye ikote n'ipantaro by'umukara, ishati y'umweru, na karuvati y'umukara, inyuma ye hakaba hari umufasha we.

Aba ni abantu batandukanye, bamwe bakaba bicaye imbere ku ntebe zisa umuhondo n'umukara, hakaba hari abandi bantu inyuma nabo bahagaze bafite impapuro mu ntoki zabo.

Uyu ni umugore wambaye ishati y'umweru, akaba yicaye, imbere ye hakaba hari ameza asa umukara, hakaba hariho impapuro zigiye zitandukanye ndetse akaba afashe ikaramu mu ntoki.

Uyu ni umugore wambaye indorerwamo z'amaso zisa umweru, akaba yambaye n'ikote ririmo ibishushanyo bigiye bitandukanye by'indabyo, iri kote rikaba risa umweru.

Aba n'abantu bagiye batandukanye, bambaye ingofero zitandukanye n'amashati y'umweru n'imipira y'umweru, bakaba mu biganza byabo bafite ibishushanyo n'amabendera ari mu mabara y'ubururu, umutuku, n'umweru.

Izi ni inyubako nyinshi zigiye zitandukanye, izi nyubako zikaba ziri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu inyinshi muri zo.

Uru ni urupapuro rw'umweru, ruriho amagambo ndetse n'imibare igiye itandukanye, biri mu mabara y'umweru n'umutuku n'ubururu, akaba hariho n'ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda hasi.

Aba ni abantu bagiye batandukanye bambaye imipira y'ubururu, n'umugabo wambaye ishati y'umweru, bakaba mu biganza byabo bafite amabendera ari mu mabara y'umutuku, umweru n'ubururu.

Aba ni abantu bagiye batandukanye, biganjemo abagabo n'abagore, bambaye imyenda iri mu mabara y'umweru, umutuku, n'ubururu. Mu biganza byabo bakaba bafashe amabendera yanditseho amagambo asa umukara.

Uru ni urupapuro ruriho amagambo agiye atandukanye, aya magambo akaba ari mu mabara yiganjemo umukara ndetse n'umweru.

Uru ni urupapuro rwanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu mabara y'umukara ndetse n'umweru hakaba hariho n'igishushanyo cy'ikarita y'igihugu cy'u Rwanda harimo amabara agize ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Izi ni imodoka zitandukanye ziri mu mabara y'umweru, ubururu, umukara, zihagaze ahantu hamwe. Hirya ya zino modoka hakaba hari abantu bari kugenda ndetse abandi bahagaze.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, byiganjemo imodoka ndetse na moto. Hirya hakaba hari inzira y'abanyamaguru, irimo umugore.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga wiganjemo ibinyabiziga bitandukanye n'imodoka ndetse na moto, uyu muhanda kandi ukaba ugiye utewemo ubusitani ndetse n'ibiti birebire.

Izi ni imodoka zigiye zitandukanye ziri mu mabara y'ubururu, umweru n'umukara, izi modoka zikaba zitwara abagenzi, hirya hakaba hari urukuta rurerure rusa umuhondo rwanditseho amagambo atandukanye.

Uyu ni umuhanda ushushanyijemo imirongo yiganjemo umukara n'umweru uyu muhanda kandi ukaba urimo imodoka nini itwara abagenzi iri mu mabara y'icyatsi, umweruru n'umukara.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga, ushushanyijemo imirongo y'umweru, umukara, n'umuhondo, uyu muhanda ukaba urimo n'ubusitani buteyemo ibiti birebire, ndetse ukaba urimo n'ibinyabiziga.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, nka bino bikamyo binini biri mu mabara y'umweru ,umukara ndetse n'ubururu. Hirya hakaba hari n'igare riri kugenda mumuhanda.

Iyi ni imodoka nini itwara abagenzi, iyi modoka ikaba iri mu mabara y'umweru, ubururu n'umukara, hirya yayo hakaba hari umuntu uyihagaze impande.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, byiganjemo imodoka ndetse na moto, hirya hakaba hari inzara y'abanyamaguru igendamo abantu.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye byiganjemo moto ndetse n'imodoka ndetse hakaba harimo n'igare.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, byiganjemo moto, ndetse uyu muhanda ukaba ushushanyijemo imirongo iri mu mabara y'umweru n'umukara.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye byiganjemo imodoka moto n'igare hiryakaba ari inzu nini irimo imiryango myinshi igiye itandukanye y'ubucuruzi.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga, urimo ibinyabiziga byiganjemo moto. Hirya hakaba hari inzu y'ubucuruzi ihagazeho imodoka, ndetse iyi inzu ikaba iriho ibyapa byinshi bitandukanye.

Uyu umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye aho twavuga nk'ikinyabiziga cy'umuhondo kirimo umushoferi ndetse gitwaye umuzigo n'ikindi kinyabiziga biri gusikana gisa umutuku.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye byiganjemo moto ndetse n'igare hirya no hino hakaba hari inzira y'abanyamaguru hirya ikaba irimo gucamo umuntu.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, aha twavuga: nk'imodoka iri mu ibara ry'umweru ndetse na moto biri kubisikana, uyu muhanda urimo n'abagenzi bagiye batandukanye.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, byiganjemo moto, imodoka ndetse n'amakamyo muri uyu muhanda harimo n'abanyamaguru bari kwambuka umuhanda n'abandi bari mu nzira y'abanyamaguru.

Iki ni ikinyabiziga gisa ubururu n'umweru ndetse n'umukara kinini cyane gitwara abagenzi, kikaba kiri kugendera mu muhanda hirya hari inzira y'abanyamaguru.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye n'imodoka ndetse na moto. Uyu muhanda ku mpande yayo hari inzira ntoya inyuramo abanyamaguru ndetse ukikijwe n'amazu.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka iri mu ibara ry'umweru yanditseho amagambo agiye atandukanye hirya no hino hakaba hari amagare nayo ari kunyura muri uyu muhanda.

Iyi ni imodoka itwara abagenzi isa umweruru n'umukara ikaba igiye yanditseho amagambo atandukanye ari mu ibara ry'umukara n'umweru, iyi modoka ikaba ikikijwe n'abantu bagiye batandukanye.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, byiganjemo iki gikamyo gisa umweru ndetse n'icyatsi, hirya hakaba hari imodoka ntoya isa umukara.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, byiganjemo imodoka ifite amabara y'umweru n'ubururu, hirya yayo hakaba hari igare ririho umunyonzi ndetse n'umuntu atwaye.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga urimo ibinyabiziga bitandukanye byiganjemo ikamyo ndetse na moto, hirya hakaba ari inzira y'abanyamaguru ndetse hakaba hateye n'ibiti byiza.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga urimo ibinyabiziga bibiri bitandukanye byiganjemo imodoka, moto ndetse n'amagare. Uyu muhanda ushushanyijemo imirongo y'umukara n'umweru.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba harimo imodoka iri mu ibara ry'umweru n'umuhondo hirya hakaba hari moto ziri kunyuraho hirya hakaba hateye ibiti birebire.

Izi ni imodoka zigiye zitandukanye ziri mu mabara y'umweru n'umukara, imbere hakaba handitseho amagambo asa umuhondo hakaba hari n'abagenzi bari kugenda impande ya zino modoka.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga ukikijwe n'ibiti birebire bitandukanye, uyu muhanda kandi ukaba urimo ibinyabiziga bitandukanye n'imodoka nini zitwara abagenzi ndetse n'ikamyo y'umweru.

Ni abantu bari kugenda mu mbuga nini irimo ibiti ndetse n'ubusitani ndetse hakaba hari n'ahantu abantu bicara. Iyi mbuga ikikijwe n'amazu agiye atandukanye y'ubucuruzi.

Aba ni abantu benshi bagiye batandukanye biganjemo abana ndetse n'abakuru, hirya yabo hakaba ari ikintu kinini cyane icyo abana bakiniramo hirya hakaba hari indi nzu ndende cyane ibakikije.

Iyi ni inzu ndende yubakishijwe amatafari ahiye, iyi nzu ikaba ifite igisenge gisa umutuku, imbere y'iyi nzu hakaba hateye ibiti bigiye bitandukanye.

Iyi ni intebe ikoze mu imbaho ndetse n'ibyuma bisa umukare, ikaba inyuma yayo hari amabuye menshi cyane ndetse n'ubusitani.

Iki ni icyapa kiri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru. Iki cyapa kikaba gishushanyijeho igishushanyo kimeze nk'umuntu kiri mu ibara ry'umukara.

Iki ni icyapa cyo ku muhanda, kirimo mu mabarage atandukanye, harimo: umutuku, umweruru ndetse n'umukara, iki cyapa kikaba cyometse ku cyuma kirekire gishinze ku butaka.

Iki ni icyapa kirimo amabara agiye atandukanye, yiganjemo ay'umutuku ndetse n'umweru, ndetse n'umukara. Inyuma ya kino cyapa hakaba ikirere gisa ubururu, harimo n'igicu cy'umweru.

Iki ni icyapa kirimo amabara agiye atandukanye, yiganjemo umutuku n'umweru. Hirya hakaba hari inzu isize ibara ry'umweru n'umutuku.

Iki ni icyuma cy'icyapa kiriho amabara agiye atandukanye, iki cyapa kirimo amabara y'umutuku n'umweru, icyuma cyo kikaba kiriho amabara y'umukara.

Iki ni icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku, iki cyapa kikaba gifitemo n'amarangi y'ubururu ndetse hakaba yanyuzemo indi mirongo ibiri itukura.

Iki ni icyapa gishinze mu busitani. Iki cyapa gifite amabara y'umutuku, umweru n'umukara. Hirya hakaba hari urukuta rurerure rw'ibara ry'umweru.

Iki ni icyapa kirimo amabara ndetse n'ibishushanyo bitandukanye, iki cyapa kikaba kigizwe n'amabara y'umukara, umuhondo, umweru ndetse n'umutuku.

Iki n'icyapa gifiteho umuzenguruko w'umutuku, kikaba kandi gifitemo igishushanyo cy'igare, igare risa umukara rinyujijwemo umurongo utukura.

Ibi ni ibyapa byo ku muhanda biri mu ibara ry'umweru n'umukara kandi bikaba byanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, hirya hakaba hari ibiti birebire biteye.

Iki ni icyapa kiri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umukara iki cyapa kikaba gishushanyijemo igishushanyo kiri mwibara ry'umukara.

Iki ni icyapa cyiganje mu mabara y'umutuku, n'umuhondo, n'umukara. Inyuma ya kino cyapa hakaba hari ibiti by'ubwoko bugiye butandukanye.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye byiganjemo moto, uyu muhanda ukaba ukikijwe n'ubusitani bwiza, ndetse n'inzira y'abanyamaguru.

Iki ni icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku, ndetse kikaba gishushanyijemo ikinyabiziga kiri mu ibara ry'umukara. Iki kinyabiziga kikaba kinyujijwemo undi murongo utukura.

Iki ni icyapa gifite ibara risa ubururu n'umweru. Iki cyapa kikaba kirimo igishushanyo cy'umuntu usa umukara uri kwambuka umuhanda.

Iki ni icyuma gisa umukara ndetse n'umweru kandi kikaba gifite n'andi mabara y'umutuku, icyatsi n'umuhondo.

Iki ni icyapa kirimo mu mabara y'umutuku, umweru n'umukara kikaba gishinze impande y'umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye.

Iki n'icyapa kinini kiri mumabara atandukanye y'umweru ,ndetse hakaba harimo n'igishushanyo cy'imodoka gisa umukara n'amagambo as'umukara.

Iki ni icyapa kirimo amabara asa umutuku ndetse n'umweru. Iki cyapa kandi, cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Iki ni icyapa gifite amabara y'ubururu n'umweru, iki cyapa gishushanyijeho igishushanyo cy'imodoka riri mu ibara ry'umweru ndetse handitseho n'amagambo ari mubara ry'umweru.

Iki ni icyapa kirimo amabara agiye atandukanye, kirimo umutuku, umweru, ndetse n'umukara. Iki cyapa kandi kikaba gishinze ku cyuma cy'umweru.

Iki ni icyapa kirimo umuzenguruko w'umutuku ndetse n'umweru, kikaba gishushanyijeho igishushanyo kiri mu ibara ry'umukara.

Iyi ni inzu ifite imiryango y'umweru, ndetse iyi nzu ikaba ifite ibyapa byinshi bigiye bitandukanye, biri mu mabara y'ubururu n'umweru.

Izi ni inyubako nyinshi zigiye zitandukanye, zifite ibisenge bigiye bitandukanye, hakaba hari n'ibiti byinshi biteye, hakaba hari n'ipoto y'amashanyarazi n'insinga zigiye zitandukanye.

Uyu ni umuhanda ukikijwe n'amapoto maremare ariho amatara yo ku muhanda ndetse n'insinga kandi uyu muhanda ukikijwe n'amazu menshi agiye atandukanye.

Izi ni intebe zitandukanye zikozwe mu mbaho izi ntebe zikaba zifite n'ameza akozwe mu mbaho hirya ya zino ntebe akaba ari ibyatsi bisa'icyatsi.

Iyi ni inzu ndende cyane yubakishijwe amatafari ahiye, iyi nzu ikaba isize ibara ry'umweru, ikaba ifite inzugi n'amadirishya by'umukara, hirya y'iyi nzu hakaba hari umuhanda uri gucamo ibinyabiziga n'abanyamaguru.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi ifite imiryango y'umweru ndetse n'umuhondo, hakaba kandi hari ibyapa byinshi bitandukanye biriho amagambo atandukanye mu mabara menshi.

Uyu umuhanda ushushanyijemo imirongo y'umweru n'umukara, hirya y'umuhanda hakaba hari inzu ndende y'ubucuruzi ifite amadirishya n'imiryango y'imikara kandi iyi nzu ikaba iriho ibyapa byinshi.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga, urimo ibinyabiziga bitandukanye nka moto ndetse n'imodoka kandi hirya hakaba hari inzu ndende cyane y'ubucuruzi, iriho ibyapa byinshi bitandukanye.

Izi ni inzu nyinshi zigiye zitandukanye, zifite ibisenge by'umutuku, imwe ikaba isize irange ry'umweru, n'amadirishya y'umukara, indi ikaba isize irange ry'umukara, n'amadirishya y'umukara.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi, ifite imiryango n'amadirishya bisa umukara, ikaba ifite n'ibyapa byinshi biri kuri ino nzu, bigiye bitandukanye. Munsi yayo hakaba hari ibinyabiziga byiganjemo imodoka na moto.

Izi ni inyubako nyinshi zigiye zitandukanye, zifite ibisenge bigiye bitandukanye. Izi nyubako zikikijwe kandi n'ibiti birebire by'amoko agiye atandukanye.

Izi ni inzu zigiye zitandukanye zifite ibisenge biri mu mabara atandukanye, izi nzu zikaba zikikijwe n'ibiti bigiye na byo bitandukanye.

Izi ni inzu nyinshi zigiye zitandukanye ziri mu mabarage atandukanye zifite ibisenge bigiye bitandukanye; izi nzu zikaba zikikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye.

Aba ni abantu batandukanye bahetse ibikapu ku mugongo wabo, bakaba bari kugendera mu muhanda w'amabuye impande yabo hakaba hari imodoka nyinshi zihahagaze.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye byiganjemo imodoka na moto hakaba hari n'abanyamaguru bari kwambuka umuhanda hirya hakaba hari inzu y'ubucuruzi irimo imiryango myinshi n'ibyapa bigiye bitandukanye.

Iki ni icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi, hirya hakaba hari imodoka nini cyane ziri mu bwoko bw'ibikamyo binini bisa umweru, umukara, ndetse n'icyatsi.

Iyi ni inzu ifite igisenge gisa umutuku ikaba ifite inkuta zisa umweru iyi nzu ikikijwe n'imbuga nini, iyi mbuga ikaba irimo imodoka ebyiri.

Iyi ni inzu ifite cyangwa isize irangi ry'icyatsi, umweru, ikaba ifite imiryango n'amadirishya asa umukara, ikaba iriho icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Iki ni icyapa gisa umweru. Iki cyapa kikaba giteye impande y'inzu ndetse iki cyapa kikaba cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umutuku.

Iyi ni inzu ndende isize ibara ry'umuhondo iyi nzu imbere yayo bakaba hahagaze imodoka nyinshi ndetse ikaba iriho ibyapa byinshi bigiye bitandukanye biri mu mabara y'umukara n'icyatsi n'ubururu.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka isa umukara n'indi isa umweru, hakaba kandi harimo n'umunyonzi utwaye igare ndetse n'abanyamaguru bari kugendera mu nzira y'abanyamaguru.

Uyu ni umuhanda w'igitaka urimo imodoka imwe y'umweru ndetse n'iy'umukara kandi uyu muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti birebire ndetse n'amazu agiye atandukanye.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga ushushanyijemo imirongo y'umweru kandi mo hagati mu muhanda hakaba harimo busitani bushinzemo amapoto ariho amatara acanira umuhanda.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye byiganjemo moto, n'imodoka. Uyu muhanda kandi ukaba ushushanyije n'imirongo y'umweru n'umuhondo mu hagati hakaba harimo n'ubusitani bushinzemo amatara y'umuhanda.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye byiganjemo moto imodoka n'amagare uyu muhanda ukaba ukikijwe n'inzira y'abanyamaguru ndetse n'ibiti.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, uyu muhanda kandi ukaba uriho amatara maremare acanye, ndetse uyu muhanda ukaba ukikijwe n'inzu z'ubucuruzi.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga uri hejuru y'undi muhanda. Uyu muhanda ukaba uriho amatara manini cyane yo kumurikira uyu muhanda ndetse uyu muhanda ukaba uteyeho n'ibiti.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga urimo ibinyabiziga bitandukanye, biririmo moto, ndetse n'imodoka, uyu muhanda kandi ukaba urimo ubusitani buteyemo ibiti birebire.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, byiganjemo imodoka na moto. Uyu muhanda kandi ukaba ugiye urimo ubusitani impande n'impande.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga, uyu muhanda ushushanyijemo amarangi cyangwa se imirongo isa umukara n'umweruru n'umuhondo kandi uyu muhanda ukaba urimo ubusitani n'ibiti bigiye bitandukanye.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, kuri uyu muhanda hakaba hateyeho ubusitani bwiza n'ibiti birebire, kandi hakaba hari n'amatara maremare acanira umuhanda.

Uyu n'umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye byiganjemo moto, uyu muhanda kandi ukaba uteyemo ubusitani butandukanye ndetse n'ibiti birebire, uyu muhanda ukaba ushushanyijemo n'imirongo y'umukara n'umweru.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, byiganjemo moto ndetse n'umuyonzi utwaye igare hirya hakaba hari ibikamyo byinshi bihagaze.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye byiganjemo imodoka ndetse na moto, uyu muhanda kandi ukaba ukikijwe n'inzu zitandukanye z'ubucuruzi.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga urimo ibinyabiziga bya moto, uyu muhanda ushushanyijemo imirongo y'umukara n'umweru ndetse mo hagati harimo ubusitani buteyemo ibiti.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye byiganjemo amakamyo manini ndetse na moto, uyu muhanda kandi ukaba ushizezemo icyapa mo hagati kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga, ushushanyijemo imirongo y'umweru n'umukara, uyu muhanda ukikijwe n'ubusitani buteyemo ibiti birebire by'amoko atandukanye, ndetse ukikijwe n'andi mazu menshi.

Iyi ni inzira y'abanyamaguru irimo utubuye tugiye dutandukanye, hirya y'iyi nzira no hino hakaba hari ubusitani buteyemo ibyatsi ndetse n'ibiti.

Uyu umuhanda w'ibinyabiziga urimo ibinyabiziga bitandukanye nka moto ndetse uyu muhanda ukaba ushushanyijemo imirongo igiye itandukanye iri mu mabara y'umukara n'umweru.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, higanjemo imodoka ndetse na moto. Hirya hakaba hari inzira iri kunyuramo abanyamaguru.

Uyu n'umuhanda w'ibinyabiziga urimo ibinyabiziga bigenda bitandukanye, byiganjemo imodoka ndetse na moto uyu muhanda kandi ushushanyijemo imirongo igiye itandukanye y'.umweru n'umukara.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga urimo amatara acanye, hakaba hari n'ubusitani buteye ndetse n'ibyapa bigiye bitandukanye, hirya mu nzira y'abanyamaguru hakaba harimo abantu bari kugenda n'amagare.